Umwana muto uri mu gukaraba amazi meza ndetse n'isabune ifite ibara ry'umutuku, akaba yambaye umupira w'ubururu ufite ibara ry'umukara, yambaye ikabutura y'umukara ifite akabara k'umutuku arimo gusukirwa n'umuntu mu ijagi isa n'icyatsi.

Icyumba cy'inama kinini cyane cyahuriwemo n'abantu benshi cyane b'ingeri nyinshi. Yaba abagabo ,abagore, abakobwa n'abasore. Hakaba harimo icyapa gifite ibara ry'ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda. Hakaba harimo tereviziyo igaragaza umuntu uri kuvuga, imbere ye hari indangururamajwi bakaba biteretse amazi yo kunywa imbere yabo y'inyange.

Abantu batatu bahagaze kuri tapi isa n'umutuku. Inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru. Hakaba hari umukobwa umwe wambaye ipantaro abandi bakobwa babiri bambaye amajipo y'umukara, undi musore nawe yambaye ipantaro y'umukara.

Icyumba cy'inama cyahuriyewemo n'abantu b'ingeri zose, abagabo n'abagore bambaye amakote, abagore bambaye amakanzu ndetse bambaye n'udusaha, bakaba bafite imisatsi karemano ndetse n'indi y'imikorano, bakaba biteretse utuzi two kunywa imbere yabo ku meza.

Ikigo cy'ishuri kirimo ubwo ubusitani bwiza cyane nk'ibiti biteye amabengeza, abanyeshuri bambara neza. Harimo kandagira ukarabe yifashishwa mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda isabune amazi meza ndetse n'akabase ko gukarabiramo.

Inzu yahuriwemo n'abantu benshi, b'ingeri zigiye zitandukanye, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, akaba arimo gutera urushinge undi mwana, wambaye ishati y'ubururu, na we wazamuye agashati barimo kumutera urushinge ku kuboko.

Abantu batatu harimo umukobwa umwe n'abagore babiri, muri abo abagore hakaba harimo ufite akuma gapima umuriro, yambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, akaba ashaka gupima umugore mugenzi we utambaye agapfukamunwa, ukikiye umwana mu biganza.

Abagore benshi cyane bicaye mucyumba cy'inama gifite amarangi asa n'ubururu, amadirishya afite amarangi asa n'icyatsi bakaba bambaye amataburiya asa n'ubururu, iyindi myenda bambaye igiye itandukanye, abenshi bafite imisatsi karemano hakaba harimo n'abandi bagabo na bo bambaye amataburiya y'ubururu bitabiriye iyo nama.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, yaba abagabo, abasore, n'abana bahuriye ku ivomo gakondo, hakaba harimo umwe wambaye ishati y'umukara, ndetse n'ipantaro y'umukara, uri mu kuvomera mu ijerekani y'umuhondo, iruhande rw'icyo kijerekani hakaba hateretse akadomoro karindwi, inyuma yabo hari ibyatsi by'icyatsi bitoshye, kandi hakaba hubatse inyubako ntoya.

Ivomo gakondo rihuriweho n'abantu benshi cyane, haba abarimo kuvoma ndetse n'abahagaze bategereje kuvoma, akaba umwe uri kuvomo, wambaye imyenda isa nk'ubururu yaba hasi cyangwa hejuru, hakaba n'abandi bana bahagaze bategereje kuvoma, nyuma yuko uwo arangije.

Urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bahagaze barimo gufata ifoto bazamuye ibipfunsi bose bishimye basetse bambaye ingofero z'umweru ndetse n'udupira tw'ubururu, bakaba bahagaze imbere y'inyubako ifite inzugi zisa n'umukara ndetse n'icyapa gisa n'umweru kirimo akadomo k'umutuku n'umuhondoba yanyanditseho n'amagambo mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi bahagaze ahantu hateye amabengeza hameze neza, hari amafu, inyuma yabo hari ibiti bifite amababi atoshye, ubona ko byabonye imvura, muri abo bantu hakaba higanjemo abagore benshi cyane n'abagabo bake bashoboka, hagati yabo hakaba hahagaze undi, bisa nkaho ari umuyobozi wabo.

abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako isizeye amabara y'umweru ku bikuta ku nzugi hakaba hariho irangi ry'ubururu hakaba hari abana benshi bishimye bazamuye ibiganza banasetse bambaye impuzankando z'umuhondo hejuru hakaba hari n'abazungu babiri bahagaze mu marembo ndetse n'abirabura batatu.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe barimo gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko ari abaganga, bamwe bambaye imyenda isa n'ubururu, abandi bambaye amataburiya y'umweru, abandi bitandiye nk'abasiramu, abandi bambaye amajipo asa n'umuhondo, udupira tw'umweru, bahagaze ahantu mu nyubako nyinshi zubatse neza zubakishije amatafari ahiy.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane, b'ingeri zigiye zitandukanye, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, bambaye neza ubona ko bakeye, baboneye ijisho, harimo abambaye amakoti y'umukara, karavate, harimo abambaye amakanzu, harimo abambaye utwenda dufite amabara agiye atandukanye, barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cy'inama kirimo intebe z'umweru, iz'ubururu ndetse zigiye ziteretseho n'agacupa k'amazi y'inyange, hakaba hahagaze umugabo ku kantu gasa n'umweru ndetse n'ubururu yambaye ikote na karavate afite ibyo arimo kubwira abari imbere ye.

Abantu b'ingeri zitandukanye yaba abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, bose bahagaze bisa nk'aho barimo gufata ifoto bavuye mu nama runaka, bahawe amabwiriza yo kuzajya bakurikiza mu bujyanama bw'ubuzima bwabo cyangwa mu gihe bahuye n'ikibazo.

Icyumba gihuriyemo n'abantu b'ingeri nyinshi cyane abagore n'abagabo, abana bambaye impuzankano z'abanyeshuri, zisa nk'ubururu ndetse n'umweru n'abarimu babo inyuma, bambaye amataburiya asa nk'umweru ndetse hakaba n'abandi bafite ibikoresho byifashishwa mu gufata amashusho.

Ivomo gakondo rya kinyarwanda rihuriweho n'abantu benshi b'ingeri zose, abagabo n'abaso abagore bateruye abana, hakaba umwana uri mu kuvoma n'amajerekani afite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, akaba yambaye agapira gasa n'umutuku, umugore uri mu kumuvomesha akaba yambaye agatambaro mu mutwe k'umuhondo.

Icyumba cy'inama cyahuriwemo n'abantu b'ingeri nyinshi cyane, abagabo, abagore n'abakobwa, abasore, bakaba bicaye ku dutebe dusa n'umukara, imbere yabo hari abandi bantu batatu, harimo umugore umwe wambaye ikanzu y'umuhondo, n'abandi bagabo babiri bambaye amakoti.

Abantu batatu barimo abagore babiri n'umugabo umwe, hakaba umugore umwe wicaye wambaye agapfukamunwa k'umweru n'ishati y'umweru n'isahabokoba ari guterwa urushinge ariko ubona ko byamubangamiye, urumutera we yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'ishati y'umweru.

Icyumba cy'inama cyubatse neza cyane rwose gitatse mu buryo buboneye ijisho kirimo abagabo babiri ubona ko bitabiriye inama, imbere yabo hateguye ameza atakishijwe ibitambaro bisa nk'umuhondo, biteretse amazi yo kunywa ndetse bakaba bafite n'indangururamajwi.

Ivomero gakondo rikikijwe n'ibintu byinshi n'abantu benshi, hari umugore ufite umwana mutoya, ukenyeye igitenge, uteze n'igitambaro, warangaye, hakaba hari amabasi aretse barimo kuvomeramo afite amabara agiye atandukanye, nk'iy'umutuku, umukara, umuhondo ndetse n'indobo z'umweru n'abandi bana barimo gupompa.

Abantu bane bari mu nyubako imwe harimo abagore babiri n'abagabo babiri, umugabo umwe akaba we ari umuganga, yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'uturindantoki, arimo guhereza umugore umwe imiti mu ntoki, hirya gato inyuma yabo hakaba hari undi wambaye ijire y'umuhondo, irimo akarongo gasa n'icyatsi n'agapira k'ubururu mu imbere.

Umwana w'umuhungu wambaye impuzankano y'abanyeshuri, ufite igikombe mu ntoki, arunamye afashe kuri robine, ari mu kuvoma amazi aturuka mu kigega giteretse cyubakiye gisa n'umukara, inyuma ye hakaba hari urupangu rwubakishije amatafari.

Ivomo gakondo ryahuriweho n'abantu batanu, harimo umukobwa umwe mukuru, wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara n'abana bane, bategereje kuvoma, baretse utujerekani dusa n'umuhondo, hirya ku ruhande hakaba haparitse imodoka y'umweru.

Umuntu w'umugabo uhagaze muri kaburimbo usa n'umusabirizi, ufite imisatsi ikaraze, imyenda hejuru isa nabi cyane, mu ntoki afite ibishishwa by'imineke, amapantaro yacitse, yambaye ibirenge, inyuma ye hari moto n'imodoka, zirimo kugenda muri iyo kaburimbo.

Umugabo muremure w'umuzungu ubona ko ashinguye wamwenyuye wishimye, wambaye imyenda ishati hejuru ya karokaro iririmo utudomo tw'umweru ndetse n'umukara, ipantaro y'umweru. Akaba yambaye isaha ahagaze imbere y'icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa kiranga kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda kiriho amagambo yanditse mu mabarage agiye atandukanye, nk'ubururu, umuhondo, icyatsi kibisi, kikaba kiranga umunsi w'ubuzima bwo mu mutwe.

Agapira gasa neza cyane kari mu ibara ry'ubururu n'umweru, kanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, hariho ikirango mu mabara atandukanye nk'umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku, ubona ko kabera umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri.

Inzu nziza iboneye ijisho, isize irangi ry'umuhondo, iteyemo intebe, yahuriwemo n'abantu benshi b'ingeri zose, abagabo, abagore, n'abakobwa, izo ntebe zikaba ziteye mu buryo bw'uruziga, zifite amabara y'umweru, zisize verine y'umuhondo.

Abantu batatu harimo umwe w'umugabo wicaye, wambaye ikabutura ijya gusa n'umweru, ipine mu maboko ndetse akaba afite imisatsi y'imikorano, yambaye agasengeri abamuhagaze iruhande, umwe yambaye ipantaro y'ubururu, undi akaba yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Umugabo muremure mwiza cyane ubona ko ashinguye, wambaye ibintu bigiye bitandukanye nk'inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, ishati irimo amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, ahagaze mu busitani bw'inyubako ndende nziza cyane, yubatse mu buryo bunogeye ijisho, ubwo ubusitani bukaba burimo indabyo zigiye zitandukanye, z'amoko agiye atandukanye, ikaba yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo n'abagore benshi cyane bitabiriye, bahetse abana, abandi bakaba ntabo bahetse, ariko imbere yabo hakaba hari umugabo ushobora kuba urimo gutambutsa isomo, ababwira ibijyanye n'ubuzima n'imibereho.

Umugore wikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba ufite isuka mu ntoki yambaye agapira imbere karimo amabara y'umutuku, umuhondo n'umukara, inyuma ye hari inzu isakaje amategura ya kinyarwanda, iyo nzu ikaba yaruriwe n'icyatsi kigira urubuto ruribwa nk'imboga.

Icyumba cy'inama gihuriwemo n'abantu b'ingeri zose, baba abagabo abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bose bafite uducupa tw'amazi mu ntoki ndetse n'amaterefone yabo, ariko bbikagaragara ko abasore aribo biganje cyane kurushaho abakobwa, bicaye ku ntebe zifite amabara atandukanye nk'umutuku n'umuhondo.

Icyumba cy'inama cyakira abantu benshi ubona ko harimo abagore biganjemo cyane bambaye imyenda itandukanye navugamo nk'uwambaye imyeru, hari uwambaye imituku, imbere yabo biteretse amazi yo kunywa hakaba hari n'abiteretse imashini bicaye mu ntebe nziza cyane.

Abantu batanu ahantu runaka, harimo abagore batatu n'abagabo babiri, hakaba hari umugore umwe ufite ibyo arimo kuvuga, wambaye amasaro ku kuboko, agapfukamunwa akambaye mu kaboko, yisize ibintu by'umutuku ku munwa, abandi na bo barahagaze, undi aricaye barimo kumva ibyo arimo kuvuga.

Umukobwa mwiza cyane wirabura ufite amenyo y'umweru wambaye amaherena, ufite imisatsi karemano, akaba ari ku cyapa kiranga ibintu runaka gifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, hariho amagambo yanditse mu mabara y'umweru.

Ahantu hahuriye imbaga y'abantu benshi bagiye batandukanye harimo: abagore, n'abagabo bicaye ku dutebe twiza duteye amabengeza, hari udusa n'umweru, udusa n'umutuku, abicaye bari mu kubazanya ndetse basubizanya bose bambaye udupfukamunwa bisa nkaho hari icyorezo gihari.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'icyapa gishushanyijeho ikarita ya afurika, ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bari mu gufata ifoto y'urwibutso, ni ingeri nyinshi cyane, yaba abagabo abagore n'abakobwa, bakaba harimo n'abashinzwe umutekano b'abapolisi.

Ihuriro ry'abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzangano z'ubururu hejuru. Bamwenyuye, basetse, bamanitse ibiganza ubona ko banezerewe, banyuzwe n'ibyo bari kubwirwa kandi babyishimiye, hagati mu kigo hakaba hamanitsemo idararapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri bahagaze imbere y'indorerwamo ibonerana, umuhungu n'umukobwa bakaba bafite utudodo mu ntoki barimo kudukoresha basukura amenyo yabo, umwe akaba afite imisatsi y'imikorano akaba ari umuhungu, undi w'umukobwa akaba afite imisatsi karemano.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo harimo nk'intebe, agafite amapine y'umukara, utwuyuma tw'umweru ndetse kakaba gafite ibara ry'iroza ku mwenda uyizengurutse hakaba harimo n'utundi twuma twinshi twifashishwa kwa muganga dufite amabara y'umweru.

Umugabo ubona ko akiri muto cyane hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani wishimye umwenyuye ufite amenyo y'umweru y'ishinya y'umukara, akaba afite akadodo mu menyo akaba arimo ku kifashisha mu gukura imyanda imwe n'imwe iba yasigaye mu menyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ingeri nyinshi cyane bigiye bitandukanye, kirimo intebe isa n'umukara, ibikoresho by'umweru byinshi cyane byifashishwa n'abaganga, nk'utwuma twifashishwa mu kumenya uko umuntu ahagaze, n'ibindi bibikwamo ibikoresho bike bike byo kwa muganga.

Umugabo ubona ko akiri muto cyane, hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, wishimye cyane umunezero ufite amenyo yera pe !! asa umweru afite inanga mu ntoki, agaragaza ko ayishimiye cyane, kandi ubona ko anezerewe.

Umukobwa mwiza cyane ufite amenyo yera ubona ko ari ku murongo bigaragara ko ayitaho umunsi ku wundi, yifashishije agakoresho gakondo mu gukura imyanda iba yagiye isigara hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo akomeze kuba amenyo mazima.

Umwana muto cyane, ufite imisatsi karemano, ugaramye ku gitanda, wiyoroshe amashuka y'umweru, wishimye wasetse cyane, wagaragaje amenyo yose kugira ngo avurwe kubera ko arwaye, uri kumuvura akaba yambaye uturindantoki dusa n'umweru ndetse n'utwuma arimo gukoresha tukaba dusa n'umweru.

Abana bishimye cyane b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'umuhondo hejuru, bicaye mu ntebe zigirwamo mu ishuri, inyuma hakaba hari ikibaho bandikaho cy'umukara, bakaba bahawe korogati bafite mu ntoki zizifashishwa mu koza amenyo.

Umusaza n'umukecuru bishimanye ubona ko banezerewe buri wese yamwenyuye, umusaza w'imvi nyinshi cyane z'uruyenzi n'umukecuru uteze igitambaro cy'umutuku bose ubona ko banezerewe n'iby'isi n'ubuzima babayeho.

Abantu babiri mu nyubako nziza cyane iteye amabengeza, harimo umugabo ndetse n'umugore, umugabo ufite agacupa karimo umuti umugore nawe yitegereza ako gacupa akaba afite imashini imbere ye, bicaye mu dutebe twiza, ameza meza cyane, imbere yayo hari telefone ndetse n'impapuro...

Abantu batatu bicaye iruhande rw'inzu, isize irangi ry'umuhondo ifite urugi rw'umukara, hakaba harimo abana babiri, umwe wambaye ijipo y'umutuku n'agashati k'umweru, undi mwana akaba afite igikombe mu ntoki gisa n'umweru, undi ni umusaza wambaye ishati y'umweru ufite imvi mu mutwe, akaba afite n'ikibando mu maguru ye, bose bafite ibintu mu ntoki barimo kurya.

Abantu babiri harimo umugabo ufite ibyanwa byinshi cyane by'umukara w'umuganga, wambaye akuma kifashishwa kwa muganga mu kumenya uko umuntu ahagaze, akaba ari kumwe n'umugore na we wambaye umupira w'ubururu bwerurutse, yambaye agashanete mu ijosi, afite inkoni mu ntoki n'imisatsi y'imikorano.

Umuhanda wa kaburimbo mugari cyane, urimo abagore batatu n'abagabo babiri, abagore babiri bakaba bambaye imyenda y'ubururu hejuru, undi mugabo umwe akaba yambaye nawe umwenda w'ubururu hejuru, bakaba bavuye muri siporo ngororamubiri ubona ko babyishimiye barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Umukecuru wicaye imbere y'amashyiga utetse, udusafuriya tubiri kamwe gateretse akandi kakubitse hejuru, akaba yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, akambara ikanzu y'umuhondo irimo utubara, iruhande rwe hari inkwi ndetse n'ibindi byakatsi bisa n'icyatsi.

Umukecuru n'umusaza bashaje cyane bafite imvi mu mitwe yabo, bicaye barimo kureba uko imiti inyobwa basoma urupapuro rubigaragaza, imbere yabo ku meza hakaba hari ikirahure kirimo amazi ndetse na vaze irimo indabyo.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu nzu iteye amabengeza bishimye, umukecuru akaba afite urupapuro mu ntoki bisa nkaho hari ibyo ari gusomera umusaza bikamunyura, bicaye mu dutebe dutandukanye ku meza isize verine y'umutuku.

Umusaza n'umukecuru bishimanye bicaye ku ntebe nziza zisa umuhondo imbere ku meza. Umukecuru ufite urupapuro mu ntoki, umusaza akagira telefone mu ntoki. Barimo kureba muri telefone bombi biteretse ibikombe, harimo ikirimo amazi n'ikindi gishobora kuba kirimo imiti.

Abantu babiri bicaye umwe w'umusaza ndetse n'undi w'umukobwa, umukobwa akaba ari umuganga afite ibyuma byifashishwa mu kumenya umuvuduko w'amaraso, akaba yacyambitse umusaza umwicaye iruhande, ubona ko byamushimishije kandi anezerewe no kumenya uko ahagaze.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye harimo umusaza, umugore uhetse umwana mu mugongo, umusore uhetse umwana ndetse n'undi mumama bose ubona ko bishimye cyane banezerewe, inyuma yabo hakaba hari ibiti karemano bifite amabara y'icyatsi.

Abantu batatu mu nyubako nziza harimo umugabo, umukecuru ndetse n'umukobwa ukiri mutoya, umugabo akaba yambaye umupira w'umutuku afite isahane y'umweru mu ntoki iriho imigati itandukanye, umukecuru na we akaba afite indi sahane iriho imboga nyarwatsi, umukobwa na we akaba yambaye umwenda w'umweru afite na we uduti yafatishije imboga.

Abantu babiri bicaye ku meza bari gusoma igitabo harimo umusaza wishimye amwenyura, hamwe n'undi musore na we werekanye amenyo bakaba biteretse amatasi abiri arimo amazi yo kunywa, inyuma yabo hakaba hari utubati dusize ibara ry'umutuku ndetse n'amatara abonesha neza.

Umukecuru wicaye mu cyumba cyiza cyane gisize amarangi y'umweru, akaba yicaye ku gitanda kiriho amashuka atandukanye, nk'ay'ubururu, n'imisego y'umweru ndetse n'indi y'ubururu, akaba yambaye umupira w'ubururu, yipfutse mu maso, afite imisatsi irimo imvi ndetse yambaye amarinete y'umutuku.

Umusaza wicaye ufite imvi wambaye agashati k'umweru karimo uturongo tw'umukara, uteruraye mwana ucigatiye igipupe mu ntoki, ubona ko ari umwana mwiza cyane wakwifuza kubyarwa na buri mubyeyi uwo ari we wese aho ava akagera.

Abantu babiri harimo umugore ubona ko ukiri muto cyane n'umukecuru ufite imvi ushaje cyane, bahuriye ahantu hari ubusitani burimo ibyatsi bitoshye inyuma yabo hari inyubako zifite amarangi y'umweru heza cyane rwose.

Abagore benshi bari ku murongo, ubona ko bafite intsinzi bishimiye, bambaye imyeru hejuru bamwe na bamwe, abandi hasi bakaba bambaye imikara, abenshi bakaba bambaye udukweto tw'umukara, abandi utw'umutuku ndetse n'abambaye udufunguye.

Abagore batatu bahagaze bose bambaye udupfukamunwa, batandukaniye ku myenda, umwe ni ubururu, undi n'umukara, undi akaba yambaye imyenda y'icyatsi, bose bakaba bahujwe no kuwushishikariza Afurika muri rusange kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda.

Abantu babiri bahagaze bafite icyapa mu ntoki kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda n'amagambo yanditse mu mabara agiye atandukanye nk'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, hakaba n'andi yanditse mu ibara ry'umukara avuga ngo "twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira," n'akandi kajambo kanditse mu ibara ry'umuhondo, hakaba imbere iruhande rwabo hari intebe ifite ibara ry'umukara, inyuma yabo hakaba amadarapo mu mabara agiye atandukanye.

Icyapa kiriho igishushanyo cy'umutwe w'umuntu kigaragaza ubwonko nk'uko buteye mo imbere, kikaba kiri gusa amabara agiye atandukanye nk'ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba harimo n'umweru, cyanyanditseho amagambo mu buryo bugiye butandukanye, harimo ayanditse mu ibara ry'umuhondo hakaba n'andi yanditse mu ibara ry'umweru.

Ahantu hahuriye abantu bane, harimo umugabo umwe n'ababikira batatu bose bambaye amavara ndetse n'utwenda tw'umweru tw'udupira, umugabo akaba yambaye ikote, agashati k'umweru n'isaha, akaba ari mu gusuhuza umwe yamukoze mu kiganza, inyuma yabo hakaba hari icyapa gisa n'ubururu kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa kiranga kiri mu mabara atandukanye nk'umweru, ubururu ndetse n'agahondo gake gake, agatuku mu ikarita ya Afurika umwana uryamye usinziriye, ufite imisatsi y'umukara bashyizeho agapira k'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, gihuriwemo n'abaganga benshi cyane, bahuriye ku murwayi umwe usa naho agiye kwitaba Imana, bambaye uturindantoki tw'umweru, bambaye bose udupfukamunwa dusa n'umweru, bakaba bamwe bambaye ingofero z'ubururu, ndetse n'amataburiya y'ubururu, umwe akaba yambaye ingofero y'umweru.

Icyapa kimenyesha kiririho ifoto y'umugore wa nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda wambaye ishati y'ubururu, imbere ye hari uturangururamajwi yambaye amaherena akagira umusatsi gakondo, icyo cyapa kikaba kiri mu mabara atandukanye nk'umutuku n'umweru mu magambo y'umuhondo.

Abanyeshuri bari mu imenyerezamwuga, yaba abahinzi, aborozi, abaganga, abarimu bagiye bambaye imyenda igiye itandukanye, amasarubeti, amataburiya, abarimo kureba mu byuma byo kwa muganga, abambaye udupfukamunwa, abambaye ingofero, n'abandi b'ingeri zose.

Icyumba cyahuriwemo n'abantu benshi, haba abakurikiye inama ndetse n'abarimo kuzitanga ku byerekeye ubuzima. Mu kwezi kwa munani ku itariki makumyabiri n'esheshatu kugera kuri makumyabiri n'icyenda bibiri na cumi n'icyenda. Ubona ko bari muri hoteli bita remigo, i kigali mu Rwanda.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bunogeye ijisho, iri ahantu yitaruye, imbere yayo hari ubusitani, amatara meza abonesha ahantu hose, irimo ibikoresho byifashishwa mu kubaka umubiri, nk'ibyo birukankamo, ibyo baterura n'ibindi by'amoko agiye atandukanye.

Ahantu ubona ko ari mu kigo gisa neza kimeze neza cyane, cyahuriwemo n'abantu b'ingeri zose abagabo n'abagore, abakobwa, ndetse n'abasore, harimo inyubako zisize amarangi y'umweru zisakaje amabati y'umutuku harimo ubusitani burimo indabyo nyinshi cyane nziza zitoshye.

Inyubako nziza cyane kandi ngari, isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, ibirahuri bibengerana, hejuru yayo hakaba hari ibigega bifata amazi bifite ibara ry'umukara, hakaba haparitse imbere yayo imodoka zigendwamo n'abantu ku giti cyabo harimo imwe irimo gusohoka mu marembo.

Icyumba gisa neza cyane cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'amoko atandukanye, gifite amatara amurika ahantu hose, afite amabara y'umuhondo, hakaba harimo ibikoresho mu mabara y'umweru, udutebe mu mabara y'umukara, imashini babikamo amabanga yo kwa muganga, n'izindi zifashishwa mu kuvura.

Inyubako nziza cyane iboneye ijisho ifite amabara atandukanye nk'umutuku n'umuhondo, ifite amakaro ayometseho y'umweru ndetse n'ay'umukara, hakaba harimo n'utundi tw'umuhondo. Imbere yayo hagaze abantu b'ingeri zitandukanye nk'abagabo, abagore ndetse n'abasore, abakobwa hanyuma ku ruhande hakaba indi nzu iri hepfo nayo ubona ko inogeye ijisho.

Umugabo wambaye imyeru ahantu hose yaba hasi ndetse no hejuru no mu mutwe akaba yipfutse mu maso, yambaye bote z'umukara afite agakoresho kifashishwa mu gutera umuti wica udusimba. Iruhande rwe hari indobo ebyiri imwe isa n'ubururu bwerurutse, indi igasa n'icyatsi. Ahagaze imbere y'inyubako ndende.

Icyumba cyiza cyane giteye amabengeza ubona ko giteguye neza, gishashemoya uburiri bw'amoko agiye atandukanye, ibitanda bisa n'umweru ndetse n'ubururu, ibikoresho byifashishwa mu gutwaza abaganga utundi dukoresho two kwa muganga.

Ahantu heza cyane ubona ko hateye amabengeza, hari inyubako ziri mu mabara y'umweru n'umutuku, hari ubusitani burimo ibiti n'indabyo, hakaba hari icyapa cyanditsemo amagambo mu mabara atandukanye nk'ubururu, umuhondo n'umutuku n'andi.

Inyubako nziza cyane ubona ko iteye amabengeza buri wese yakwifuza kuba yayicaramo cyangwa akayituramo. Isize amarangi atandukanye harimo umuhondo wijimye n'umuhondo werurutse, hakaba hasizemo ibara ry'umweru ku gikuta, hateyemo udutebe twiza cyane tuboneye ijisho dusa nk'umuhondo, utundi dusa nk'ubururu, utundi tujya gusa n'umukara.

Icyumba cyiza cyane ubona ko kiboneye ijisho, kirimo abantu batatu, abakobwa babiri ndetse n'umugabo umwe, bose bakaba bari mu bushakashatsi, imbere yabo ku meza y'umweru na yo asa neza hari ibyuma byifashishwa mu gukora ubushakashatsi.

Icyumba cyo kwa muganga, aho abarwayi barwariye iyo bagiye mu bitaro kirimo ibitanda bisa neza biteye amabengeza bifite amabara y'umweru n'umuhondo, uburiri bushashe neza ufite amashuka y'umweru n'ibindi byuma byifashishwa mu kongerera umwuka abawubuze cyangwa se kukongerera amaraso.

Inyubako nziza cyane ubona ko yubatse ahantu hanogeye ijisho, ni ikigo nderabuzima cya Kigina gifite inyubako nziza cyane zisize amarange y'umuhondo, imbere yayo hari n'umugore uhetse umwana.

Icyumba gisa neza gisize amabara y'umweru cyahuriyemo n'abantu b'ingeri zose abagabo, abagore, abasore n'abakobwa, ubona ko bari ku murongo bategereje guhabwa serivisi runaka kirimo udutebe tw'umukara ndetse n'iyindi y'akarambararo, kikaba kirimo nanone undi muntu ufite ubumuga bw'amaguru wicaye mu kagare.

Inzu nziza cyane ubona ibonaye ijisho iteguye neza ifite amarangi agiye atandukanye, nk'umutuku, muhondo, umweru, umukara n'utundi tuntu tugiye turimo twiza cyane nk'akanyamasyo na ko gafite amabara atandukanye, nk'icyatsi umutuku ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'inama, barimo abagore benshi cyane, bambaye imipira hejuru y'imihondo, hasi bakaba bambaye abenshi ibitenge by'umutuku, bigiye birimo amabara y'umweru n'umuhondo, abagabo benshi bambaye amapantaro y'umukara, bakaba bicaye bategereje ikiri kuvugwa cyangwa se icyo bari bubwirwe imbere yabo.

Ahantu heza haboneye ijisho, hubatse inyubako nziza cyane, imbere yayo haparitse imodoka nziza, hakaba hari n'abantu bane bambaye mu buryo bugiye butandukanye, ubusitani bwiza burimo indabyo n'ibindi byatsi bisa neza cyane, ubona ko nawe wabyishimira.

Icyumba ubona ko cyubatse neza gisa neza cyane, kirimo ibikoresho byifashishwa mu kubaka umubiri, bifite amarange atandukanye nk'umukara n'umuhondo, kirimo kamera, kirimo isaha iranga igihe nyiri ugukora umubiri aho igihe kigeze, kirimo amakaro.

Icyumba cyiza cyane kiboneye ijisho cyubatse ahantu heza kandi mu buryo bwiza gikeye, gifite amatara amurika ahantu hose, gifite ibirahure bibonerana. Kikaba kirimo ibikoresho byinshi cyane by'ingeri zose byifashishwa kwa muganga yaba ibifite amapine n'ibitafite by'ibitanda, ibyo batwaramo ibikoresho byo kwa muganga n'ibindi byinshi by'ingeri zose.

Inyubako nziza cyane iteye amabengeza isize amarangi y'umweru, imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo indabyo z'amoko agiye atandukanye, ikigega iruhande rw'iyo nyubako cy'umukara giteretse hejuru y'ibyuma, hakaba haparitse na none igare ry'abafite ubumuga bw'amaguru, n'undi musore wambaye umupira w'umuhondo.

Icyumba cyiza cyane kirimo amakaro gisa neza ku buryo buri muntu wese yakwifuza kuba yacyicaramo cyangwa akagikoreramo, kikaba gifite amadirishya asize irangi ry'umweru, ibirahuri bibonerana cyane. Mo imbere muri icyo cyumba hakaba hasizemo amarangi y'umweru ku gikuta, hanyuma hakaba hateretsemo ibikombe bigiye birimo indabyo z'amoko menshi.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza cyane, cyubatse mu buryo bwiza, kirimo amatara amurika akabonesha ahantu hose, gisize amarangi y'umuhondo, kirimo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru meza cyane, kigiye kiriho imiti, bisa nk'aho bagiye gufata amaraso ahantu runaka.

Inyubako nziza isize amarange y'umweru n'inzugi zisa umweru, ibirahure bibonerana, ikaba ari inzu y'ababyeyi, imbere yayo hahagaze abantu benshi ndetse n'abicaye, hakaba hari umukobwa wambaye agapira gasa n'ubururu, hakaba hari umugabo wicaye wambaye agapira gasa n'ubururu ndetse n'undi uhagaze ku muryango wambaye n'agakoti.

Irembo ryubatse mu buryo bwiza cyane buboneye ijisho buri wese yakwifuza kuba yaryubaka imbere yaryo hakaba hahagaze umugore ufite agashuka k'umweru kari mu ibara ry'ubururu, ahetse umwana wambaye ingofero y'umutuku umugore akaba afite umusatsi karemano, imbere muri iryo rembo ha akaba harimo inyubako zisize amarangi y'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatse neza cyane ubona ko giteye amabengeza, gisize amabara y'umweru, amatara amurika cyane, ibyuma byinshi byifashishwa kwa muganga, utubati dushyirwamo imiti yo kwa muganga ndetse n'ibindi bikoresho byinshi cyane byifashishwa kwa muganga.

Abantu batandatu mu cyumba cy'ishuri, harimo umwana umwe w'umunyeshuri, hakabamo undi w'umuganga, bakaba bahagaze mu ishuri, inyuma yabo hari ikibaho gisa nk'umukara, bari mu gushishikariza abana b'abanyeshuri uko bafata amenyo yabo neza, babigisha uko bajya bayoza.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo buboneye ijisho yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje amabati y'umweru ndetse n'indi hepfo yayo ifite amabati y'umutuku n'ibigega by'umukara bikikije izo nyubako, ikaba imbere yayo ifite ubusitani burimo indabyo nziza cyane ndetse n'ibindi byatsi bisa icyatsi byiza.

Inyubako ndende cyane ndetse ngari, iboneye ijisho ubona ko ari nziza cyane buri wese yakwifuza kuba yayibamo cyangwa akayubaka. Ikaba ifite ibirahure bisa n'ubururu, ifite amadirishya asa umweru. Ikaba ifite ubusitani imbere yayo buririmo ubwoko bwinshi bw'indabyo harimo nk'izitwa umukindo, ikagira icyapa iruhande rwayo cyerekana ko hari inzira nyabagendwa y'abanyamaguru.

Umusore munini cyane ufite ibizigira by'amaboko urimo gukora siporo ngororamubiri azamura amaboko yongera akayamanura yambaye agasengeri gasa n'umukara wacuyutse hasi ku ikabutura akaba yambaye iy'umukara.

Icyumba kirimo abantu bane, umukobwa umwe n'abagabo babiri n'umwana wicaye, basamuye bari kureba mu kanwa ke niba hari indwara yaba afite, umuganga wamwasamuye akaba yambaye itabuririya isa n'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu.

Icyumba cyiza cyane kiboneye ijisho gisize amarangi y'umweru kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga mu myitozo ngororamubiri, hakaba harimo akabati gasize ibara ry'umweru, hakaba hari agatambaro k'ubururu, harimo ibitambaro by'umweru, ndetse n'ibindi byuma bifite utubara tugiye dutandukanye, nk'umuhondo, umukara ndetse n'andi.

Abantu babiri mu cyumba umukobwa ndetse n'umuhungu, umukobwa akaba yambaye imyenda y'ubururu akaba anicaye yambaye n'uturindantoki, naho umuhungu akaba yambaye umweru hejuru ikabutura harimo amabara nk'umweru n'umukara ari mu byuma runaka akaba ahagaze.

Umusore wirabura wambaye agapira k'umweru, isaha ku kuboko, ufite agacupa k'amazi urimo kuyanywa, wambaye ekuteri mu matwi, akaba avuye muri siporo ngororamubiri, bigaragara ko yari arushye kandi yari akeneye amazi.

Abantu babiri mu nyubako nziza isize amarangi y'umweru ifite n'amakaro, umwe arahagaze, yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, undi aricaye mu byuma bifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu, akaba yambaye n'inkweto zifunguye.

Umukobwa muremure cyane uririmo gukora siporo ngororamubiri, akaba ahagaze ku gatambaro gasa n'ubururu ufite imisatsi y'umukara tsiriritsiriri kandi myinshi cyane, yambaye agapantaro k'umweru, akaba yambaye akenda ko hejuru gafata amabere keza cyane nako gateye amabengeza.

Umuntu w'umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, ubona ko yavunitse wambaye imyenda yubururu, akaba afite agatambaro k'ubururu, ari mu gukanda kanda ku mavi bisa nk'aho afite ikibazo yagize mu'ivi ariko ari mu kwivura.

Icyumba kirimo abantu batatu abagore babiri n'umwana umwe, harimo umugore w'umuganga wambaye agapfukamunwa n'undi mugore ufite umwana mu ntoki, umwana bakaba bari kumusuzuma indwara yo mu gahanga, hakaba hari ameza asize verine y'umutuku ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu isuzuma.

Umukobwa uri muri siporo ngororamubiri wambaye inkweto z'umukara, ipantaro imwegereye cyane imufashe y'umukara, ndetse n'akandi Kenda gafata amabere na ko k'umukara, akaba afite agakoresho kifashishwa mu gufata telefone akaba akambaye ku maboko, akaba yambaye ekuteri ( ecouteur) mu matwi.

Umukobwa mwiza cyane wakoze siporo ufite imisatsi karemano, yambaye kuteri mu matwi agakoresho kifashishwa mu gufata terefone ku kuboko k'umukara, arimo kunywa amazi mu icupa risa n'ubururu, akaba avuye muri siporo ngororamubiri ubona ko binejeje.

Umusore ubona ko yakoze siporo nyinshi cyane, wiciye mu kibuga gifite ibyatsi bitoshye, inyuma hakaba hari ibihuru birimo ibyatsi byinshi cyane n'ibiti, akaba yambaye imyenda y'umukara, haba hasi, hejuru ndetse n'inkweto ari mu kuzamura amaboko ayakoza ku maguru akongera akayazamura.

Abantu babiri, umwe akaba yicaye ku ntebe isa n'umukara, yambaye ipantaro y'umukara n'agakabutura kajya gusa n'ubururu, aziritse amabande ku ntoki y'umweru, akaba ategereje ko bamuzirikira n'andi ku ntoki, umuzirikira akaba yambaye umupira w'umukara.

Abantu babiri umugore n'umugabo ku kibuga gikinirwaho umukino runaka gifite ibyatsi bisa n'icyatsi, ku ruhande hakaba hakikije imirongo y'umweru ndetse n'ubururu n'uduhondo duke duke, umugore akaba yambaye ishati y'umukara ufite imisatsi yi'mikorano ambaye agapfuka munwa, umugabo yambaye umupira w'umweru n'utundi tubara tw'umuhondo tugiye dutandukanye.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bifite amabara agiye atandukanye n'ubururu ndetse n'umweru, hari igitanda gisasheho matela iriho ishuka y'ubururu, ibindi byuma bisa n'umweru n'amatara acana abonesha cyane ahantu hose n'utundi tubati twifashishwa mu cyumba k'ivuriro.

Abagabo babiri bari mu cyumba gikorerwamo siporo ngororamubiri, umwe akaba aryamye ku gitanda, yambaye agakabutura k'umweru karimo amabara nk'umutuku n'umukara, umupira hejuru yambaye w'umukara, afite telefone mu ntoki, naho urimo kumukoresha siporo ngororamubiri we, yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru.

Ibikapu byiza cyane binini bifite ibara ry'umutuku, birimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga yaba imikasi, ibipimo bigaragaza umuriro, yaba imiti yifashishwa n'abaganga, mu gihe bageze kuri tere cyangwag se mu gihe bagiye kuvura ahantu runaka.

Igare risa neza rwose ubona ko riteye amabengeza rijyanye n'igihe ari iry'ikinyejana, rikaba ryifashishwa n'abantu babana n'ubumuga bwo kuba barabuze amaguru cyangwa se batabasha kugendesha amaguru, bakarigenderaho kugira ngo babashe kugira iyo bagera, rikaba rifite amabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Ibikoresho byinshi ndetse n'imiti byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, yaba uturindantoki, yaba imiti, amakorogate n'ibindi byinshi cyane, byifashishwa n'abakora siporo cyangwa se abakinnyi b'umupira, bakora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo umugozi wo gusimbuka ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara. Harimo akuma bwifashishwa mu kongera imitsi y'akaboko, hakaba akuma kifashishwa mu kumenya uko umuntu ahagaze bashyira mu gutwi. Hakaba imbuto z'ingeri zitandukanye, harimo ibiriganya, harimo ibitunguru, inyanya, amagi n'ibishyimbo; n'inkweto zijyanwa muri siporo.

Imiti gakondo y'uruhurirane rwinshi cyane rw'ibyatsi byinshi ndetse n'indabyo zigiye zitandukanye harimo iz'amabara menshi nk'umutuku, umukara, icyatsi, iroze, agasekuru basekuriramo iyo miti ndetse n'agacupa bashyiramo uwo muti iyo wamaze gutunganywa.

Abantu benshi cyane bari mu gishanga, harimo abambaye imipira y'icyatsi n'abandi bambaye imipira y'imyeru bahagaze imbere y'imashini ihinga cyangwa se iri mu kubagara imyaka itarera, imbere yayo hakaba hari ibiti byinshi cyane, hakaba hari n'indi mashini ishobora kuba ibagara.

Imiti gakondo iri mu dukombe dusa n'umweru twererana tw'ibirahure, ikaba ituretse ku meza hakaba harimo iseye' idaseye y'ibibabi iri muri ibyo bikombe ku mpande hakaba hagiye hari n'indi y'icyatsi.

Ubusitani burimo indabyo z'amoko agiye atandukanye, izifite amababi manini n'amatoya, izarabye n'izitararaba, zifite abantu b'ingeri zose bari kugenda bazitunganya berekana uko zikorwa n'uko zitunganywa umunsi ku wundi, ndetse umunota ku munota uko bwije n'uko bukeye.

Ubusitani burimo ibiti by'ingeri zose n' indabyo z'ingeri nyinshi, zifite amabara bimwe bisa n'umutuku, ibindi bisa n'umuhondo, ibirebire n'ibigufi, yaba ibitanga imiti ndetse n'ibitanga inkwi bacana n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu babiri harimo umugabo wambaye umupira w'umukara w'imbeho, n'undi imbere w'umutuku urimo akabara k'umweru, ndetse n'umugore wambaye umweru hejuru, n'agatambaro k'ubururu, bari mu ishyamba ahantu, ubona ko hari ibiti bitoshye kandi biboneye.

Agacupa kareka k'imiti gateretse ahantu mu mwijima, gashushanyijeho agasimba mu ibara ry'umutuku kandiditseho amagambo mu ibara ry'umukara ndetse kakaba gafite uruziga mu ibara ry'icyatsi ubona ko gateye amabenge.

Imiti gakondo iri mu buryo bugiye butandukanye, nk'umuneke n'indi igiye ipfunyitse mu dupapuro tugiye dufite amabara atandukanye nk'ubururu, umweru, inanasi iri inyuma yaho, ururabyo rufite ibara ry'icyatsi ndetse n'utundi tw'umuhondo.

Umuntu w’umugabo uhagaze imbere y’igikuta gifite ibara ry'ubururu akaba yambaye umwenda w'icyatsi, afite indabyo mu ntoki zarabye zifite imbuto, inyuma ye nanone hakaba inzu ifite amadirishya y'umweru n'ibirahuri bisa nk'umweru byererana n'amarido y’umweru.